Icyapa gifite amabara atatu umweru, umukara, ndetse n'umuhondo gishyikikijwe n'ibyuma bibiri bigifashe, inyuma y'icyo cyapa hari ibara ry'ubururu.

Icyapa kinini, gikoze mu buryo bwa mpande enye, impande ebyiri ebyiri zingana, hariho abantu, abagore, abagabo ndetse n'abasaza, barimo kwamamaza ubwishingizi buturuka mu nshuti, mu baturanyi batandukanye na mudasobwa.

Icyapa gikoze muri mpande enye, ebyiri ebyiri zingana, ku ruhande rw'ibumoso, hari irange ry'idoma, iburyo hari umugabo, ufite amaso manini ushushanyije n'ibitsike, inyuma yaho hari ibyuma bifashe ku ibati rihatwikiriye, imbere yaho hari umucanga n'ibitaka.

Umukobwa n'umuhungu bicaye mu ntebe z'imodoka zisa umweru barimo guseka, umukobwa ariwe uyitwaye. Iruhande rwabo handitse ngo “ Iyi wikendi birabera he?”, hepfo yaho handitse ngo “ Ntuhagarike gahunda inshuti yizewe hafi yawe n’igihe ukeneye ubwishingizi bw’imodoka yawe”.

Umugabo urimo guseka wambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere uri gusuhuza umugore wicaye, hejuru y'aho haciyeho akarongo, handitse amagambo mu ibara ry'ubururu ngo MUA, hepfo yawo handitseho ngo mukiriya wacu twihuze.

Inzu nziza isize irangi ry'umutuku ndetse n'umweru, ikozwe mu gishushanyo, imbere yaho hateretse imodoka nayo isize irangi ry'umutuku, umutaka w'umukara, hakurya hari inyundo iri mu ibara risa nk'ikivurivundi, hejuru yawo handitseho ubwishingizi rusange.

Umuganga wambaye imyenda y’umweru, iruhande rwe haryamye umurwayi wambaye agashyigikira josi, arimo kumwereka uko ijosi rye rihagaze. Hepfo handitse amagambo ngo: “Singombwa gutegereza ko ujyanwa mu bitaro mu gihe urwaye kugira ngo ubone kugura ubwishingizi bwo kwivuza”

Ikiganza kigaragaza ko uwo muntu yambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, gifite inzu ishushanyije igeretse isakaje amabati; hirya handitseho ngo: ''biroroshye'', mu mabara y'icyatsi; ndetse n'ahandi mu mweru, handitse ngo: ''kurushaho uko ubitekereza''.

Abakobwa babiri bambaye imyenda y'imikara, hagati yabo hari umusore wafashe ijambo uri kuvuga, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho ifoto y'umukobwa ufite imisatsi arimo guseka, bakandagiye hasi kuri sima.

Ishusho ya telefoni iri kugaragaza ukuntu umuntu ashobora kohereza amafaranga yaba kuri eko banke cyangwa ku zindi banki ndetse na eko banke muri Afurika na visa ndetse na mobayiro mani.

Amashati atondetse ku murongo mwiza; iya mbere isa n'umweru, iya kabiri ubururu, iya gatatu umuhondo, iya gatatu umutuku, iya kane umuhondo, iya gatanu ubururu, zirambitse hasi.

Inzu icururizwamo imyambaro ndetse n'inkweto iruhande rwaho hari maneke bambitse ikanzu ifite amabara y'umukara ndetse n'andi ari hasi avangavanze, inyuma yaho hari akabati gasize irange, hejuru yaho hari imyenda.

Inkweto z'amabara atandukanye zitondetse neza kumurongo higanjemo ubururu umutuku umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi ziziritse ku byuma hegereye igikuta k'ibiti.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo n'igitambaro c'yumukara mu mutwe ufite telefone mu ntoki arimo guseka, iruhande rwe hari inyanya ziteretse mu dusurori, inyuma ye hari ibijumba ndetse n'ibitunguru.

Ahacururizwa imyenda y'abagore harimo amakanzu amanitse ku bikuta by'inzu bifatiye ku duti dukoze mu byuma harimo amoko yose iy'imikara iy'imyeru iy'ubururu iruhande rwabo hari ahateretse indabo nziza.

Abantu batatu bari ahacururizwa imyenda, umwe arimo imbere arimo gucuruza, undi ari iruhande rwe afite imyenda mu kiganza cy'iburyo ndetse n'icy'ibumoso, hirya hariri undi mugabo wambaye neza, hari itara mu idari ririmo kwaka.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo inyuma hari umukara, ufite telefone mu kiganza cy'iburyo mu moso hari isabune y'ubururu, iruhande rwe hari ibiti byubatse biteretseho inyanya hejuru hirya hari ibinyanya biri mu ishashi.

Ahacururizwa imyenda umugabo wambaye umwenda w'umweru ndetse n'umukecuru bari kurebana mu maso, basetse ukuboko kw'ibumoso k'umugabo gufashe kuri mudasobwa.

Ibice bitatu bifite amabara atandukanye bizingiye y'ibitenge hirya kuruhande rw'iburyo, bikaba bizinze birambitse hasi ndetse no ku ruhande rw'ibumoso byegetse ku nzu isize irangi ry'umweru.

Imyambaro imanitse ku migozi haciyemo ibice bibiri bimeze nk'imiryango hirya hari umutako umeze nkuboshye, ndetse ku rukuta hari ahandi hamanitse igitambaro gisa n'icyatsi n'amabara y'umweru.

Imyenda imanitse irimo amashati ndetse n'amakanzu y'amabara atandukanye, yiganjemo umukara, umuhondo, umutuku hirya hakaba hari ameza, munsi yaho hari igitambaro kijya gusa umutuku, hejuru hakaba harimo itara, iruhande rwaho hari idari.

Abagabo babiri umwe ku ruhande rw'iburyo, undi ku ruhande rw'ibumoso hagati yabo hari umugore, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo ekobanke, bateruye ikindi cyapa barimo kwamamaza gishushanyijeho imodoka.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara undi yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ubururu bafashe icyapa cyanditseho Akagera moto, iruhande rwabo haparitse imodoka.

Imodoka y'umukara ifite amapine y’umukara, ifite icyapa cyanditseho cy'umweru, imbere hariho icyapa cy'ubururu ndetse iruhande rw'iyo modoka haparitse izindi modoka xisa n'umweru, bihagaze imbere y'inzu isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru.

Imodoka isize irange ry'umweru ndetse n'umukara, iparitse ku nkengero, imbere hari umugabo, ufite icyapa gisize amabara y'umweru ndetse n'umutuku, handitseho Akagera moto, hirya hari inzu ifite ibirahuri bine n'umuryango.

Imodoka iparitse ku matafari akoze muri sima isize irangi ry'ubururu, hakurya y'aho hakaba hari izindi zisize irangi ry'umweru handitseho Ambulance, inyuma y'aho hakaba hariho icyapa cyanditseho inyuguti ya p cy'umweru, inyuma y'aho hakaba hari irangi ry'ubururu.

Inyubako imeze nk'uruganda hejuru hari icyapa gisobanura ibihakorerwa, iruhande rw'aho hari ipoto ijyana insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi, n'imbere mu nyubako haparitsemo imodoka.

Ahantu hakoze neza n'amatafari haparitse imodoka ifite ibara ry'umweru, hirya hari izindi ziri ku ruhande, hakaba hari n'abantu barimo kuhagenda. Inzu ihegereye, hakaba hejuru hari icyapa gisize irangi ry'ubururu cyanditseho ko igiciro ari miliyoni icyenda.

Imodoka isa nk'aho ari nshyashya isize irangi ry'umweru hariho akamenyetso gasize irangi ry'umuhondo hagati harimo umweru, hirya yaho haparitse indi modoka zisa nkaho ziri kubyigana, inyuma yaho hari indi modoka irimo guhinguka.

Abagabo babiri bafatanye icyapa umwe yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi yambaye iririmo amabara, iruhande rwabo haparitse imodoka isa nkaho iri mu twatsi turinganiye neza, hakurya yabo hari icyapa.

Ibiganza bibiri wagirango ngo ni iby'umugabo wambaye ishati y'umweru, ik'iburyo gifite inote zirimo kubarwa, icy'ibumoso gikoze ku note zizinze, hirya yaho hari izindi note zihinze ndetse n'iruhande rwaho n'izindi ziteretse ku meza asa n' umukara.

Inoti ebyiri z'amafaranga ibihumbi bitanu, iyo hejuru yanditseho mu gifaransa, iyo munsi yayo yanditseho mu kinyarwanda ngo banki nkuru y'u Rwanda, iyo hejuru ifite amafoto y'umugore ukoreye igitebo, iyo hasi iriho igitoki kiriho inyamunyo.

Iyi nyubako ihagazemo umugabo uhagaze imbere y'imashini uri mu kubara amafaranga agenda ayazinga ashyiraho utugozi tuyafata, iburyo bwe hari inoti ndetse n'ibumoso bwe hari inoti zizirikishijwe umugozi.

Umugabo uhagaze ahameze nko muri banki ufite amafaranga mu kiganza cy'ibumoso u kw'iburyo kuri mu gukora ku meza, yambaye ishati y'ubururu, arimo kuyarebaho, iruhande rwe hari akamashini kameze nk'akari gukora amafaranga, hirya kuruhande rw'ibumoso hariho mudasobwa.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, hirya hari umugore wambaye ipantaro ndetse'umupira w'ubururu, hirya ye hari umugore wambaye ipantaro y'umukara n'agapira karimo amabara bahagaze imbere ya Banki uwakira amafaranga arimo kubakira.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru, uhagaze mu idirishya rigizwe n'inzugi ebyiri zisa n'icyatsi, arimo gusuka isoya, imbere hari agacupa, hirya hari akabido gasa nk'umuhondo, ahagaze imbere y'ameza.

Isukuririro ndetse n'igurishirizo by'amata, mu nzu hicayemo umugabo ufite akabido k'ane karimo amata, arimo no kuvoma andi mata mu ndobo, iruhande hari umuntu utegereje ko bayamuha, wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umweru, hirya ahari ibiti twakwita etajeri baterekamo ibikoresho.

Akabati gateretseho inkongoro ebyiri, iruhande rwaho hari igishushanyo cy'inka ifite amabara y'umweru n'umukara, mu kabati m'imbere hateretsemo amvelope n'uducupa tw'amazi, iruhande hasize irangi ry'ubururu.

Ikiganza gifashe umugati wariweho, imbere yawo hateretseho isahani ndetse n'amandazi ateretse ku meza, hirya hari intebe y'ubururu, iruhande rwaho hari bafure isa n'umukara, asa nkaho yicaye.

Isahani iteretseho amandazi menshi afite ibara ry'umutuku, harimo n'ibisate bibiri imbere hasa umuhondo, biteretse ku meza igitambaro kirimo amabara y'umweru umuhondo ndetse n'icyatsi.

Intebe ebyiri zifite amabara y'umweru zikikije ameza nayo asa nk'uko nguko, iruhande rwaho hari ubuvido butatu, bubiri bwa ane, na kamwe ka arindwi, hejuru yaho hari nimero za emutiyeni.

Izu iteretsemo ameza ariho igitambaro cy'umweru, hateretseho ijage isa n'ubururu, hirya hari umugabo wambaye umupira, utukura uri kubuganiza amata mu ndobo nini, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira usa n'idoma arimo kuvugira kuri terefone, imbere yaho hari akabati.

Ameza arambitseho igitambaro gifite ibara risa n'iry'isahani iriho amandazi hariho ibiganza bibiri biyafasheho hirya hakaba hari ibara ry'umukara no hino ku ruhande hakaba hari iry'ubururu.

Akabati karimo imyanya itatu hagati harimo ibikombe bikoze mu ibumba, hejuru hari iby'ibirahure, munsi hari isahane ikoze mu idongo, harimo umutaka wa MTN hejuru hateretseho indobo irimo amandazi, hakurya hari udukarito turimo amata y'inyange.

Amasambusa atatu ndetse n'ikindi kimwe cyamanyutse mo imbere harimo inyama ndetse n'ibitunguru, biri ku isahani y'umweru wererana, uteretse ku meza asa n'umukara cyane.

Abantu batatu barimo abagabo babiri n'umugore umwe, babiri bicaye ku meza, undi ahagaze agiye gutora igikombe kirimo amata, hirya yaho harimo imigati ndetse n'indobo irimo amandazi, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho.

Ikiganza cy'iburyo cy'umuntu gifashe kuri telefone, imbere harimo irangi ry'ikivurivundi handitsemo akanyenyeri rimwe rimwe gatanu urwego ndetse n'indi mibare, iruhande hakaba hari amababa y'inyoni itari kugaragara neza, hepfo y'aho hari irindi darapo.

Ibiro bimeze nk'ibya banki, biteyemo intebe, harimo umuntu urimo kwakira abamugana, harimo umugore uhagaze wambaye ikanzu n'ikote by'umukara n'igikapu cy'ubururu, iruhande hari agasanduku k'ibitekerezo.

Ikiganza gifashe telefone mu ntoki, iyo telefone imbere hagaragara izina ry'umuntu witwa sandrine Umutoni, hepfo hari umuntu, hirya yaho hari akantu kameze nk'itara, ndetse ku ruhande rwaho hari akabazo, muri iyo telefoni haragaragaramo mesage iri kugaragaza uko umuntu ashobora gukora igikorwa runaka.

Ibiganza bibiri bifashe ku note, icy'iburyo gifashe ku z'igihumbi, icy'ibumoso gifashe ku z'ijana, biteretse ku meza, hashushanyijeho inzu nini igeretse kabiri, akaba ari inote zo muri Nigeria.

Icyapa gifatishije ku nzu kiri kugaragaza isaha ndetse kikagaragaza yuko ari aho umuntu avunjiriza amafaranga, bitewe n'igihugu avuyemo harimo Ositarariya, Burezire, Kanada Suwizirandi, ndetse n'ibindi bihugu biri ku rutonde rumanitse aha.

Ikiganza cy'ibumoso kimeze nk'icy'umukobwa uri gukanda muri telefone, iruhande rwe hari imashini ikora amafaranga ashushanyijeho umugabo, hirya hari ahantu umuntu ashobora kurebera umubare, iruhande rwaho iteretse ku meza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ibiganza bye byombi bifite amafaranga birimo kuyabara, ik'iburyo kiriho impeta ku rutoki rwa gatatu n'akagozi ko kuzirikisha ayo mafaranga, hakurya hari undi mugabo uri kuvugira kuri telefoni.

Amafaranga y'Amayero, inoti esheshatu, imwe ya magana abiri, indi y'ijana, indi ya mirongo itanu, indi ya makumyabiri, indi y'icumi n'indi y'atanu, birambitse ku kintu gisa nk'aho wagira ngo ni sima.

Inoti ijana y'amafaranga y'amakongomani ishushanyijeho igisimba iteretse ku yandi mafaranga, hashushanyijeho ibisimba bimeze nk'imparage.

Ibiganza bibiri; icy'ibumoso kigaragara ko ari icy'umugore icy'iburyo kigaragara ko ari icy'umugabo, ndetse akaba ari nacyo kiri guhereza icy'ibumoso amafaranga ashushanyijeho umugabo ufite imisatsi.

Ukuboko kumuntu wambaye imyenda y'imihondo ufite imitako ku maboko yumukara afite inoti ebyiri mu ntoki iruhande rwe hateretse izindi noti zizirikishije umukoba usa n'umutuku hakurya hakaba hari amatara arimo kwaka.

Inoti y'amafaranga y'amakongomani ibihumbi bitanu iriho igishushanyo cy'ikigirwamana iruhande rwacyo hari ibisimba by'ingwe ndetse n'imparage hariho na nimero iyo noti yaba yarasohokeye.

Inote nyinshi z'amabara atandukanye, zishushanyijeho amasura y'abantu, ziteretse ku meza, z'ijana ndetse hakaba n'ibiceri by'icumi n'ibindi biceri, bishushanyijeho umutwe w'umuntu, bitarimo kugaragara neza ngo byerekane umubare wabyo.

Ibiganza bibiri byambaye ibikomo by'umukara n'impeta ku kiganza cy'ibumoso, bifite inote z'ijana birimu kubara ku note hashushanyijeho umugabo.

Agashushanyo kameze nk'urugi hejuru handitseho ijambo ngo samusange, kariho ibiciro ukurikije amafaranga y'ibihugu, hariho USA, Amayero ama England ndetse n'andi atandukanye.

Amafaranga y'inote z'amayero ziteretse ku gitambaro cy'umweru imwe ari iy'icuumi indi ariya mirongo itanu indi ariya makumyabiri indi na none ari iya mirongo itanu zigerekeranye zombi zifite amabara atandukanye.

Ibiganza bibiri icy'iburyo ndetse n'icy'ibumoso byose bifashe ku note z'igihumbi biteretse ku meza z'umukara hirya hari izindi noti ziharambitse z'ijana zizirikishijeho akagozi gatukura.

Imodoka nyinshi zirimo kugenda mu muhanda ebyiri zisize amarangi y'umweru indi isize irangi ry'umukara, hakurya hari inyubako ishushanyijeho icyapa cyanditseho ngo teganya n'umugabo urimo kwifotoza.

Icyapa kigaragaza aho izina ry'ibintu bikorerwa aha ngaha, kirangira buri muntu wese, kigaragaza aho ashobora kugura, aho ashobora kunyura ndetse n'aho ashobora gufashirizwa mu gihe akeneye serivisi.

Umuryango ufunguye igice cyo hasi igice cyo hejuru gifunze ugizwe n'amabara umuhondo, ubururu, umutuku ndetse n'umukara hirya hari igishushanyo cy'umuntu hejuru handitseho ahavungirwa amafaranga.

Isahani ikoze mu cyuma hejuru yaho hari ibindi byuma bizana amazi, ifatiye ku meza harimo umusumari uyifashe.

Ameza akoze mu biti, akikijwe n'intebe enye nazo zikozwe mu biti, iruhande rwabyo hakikijwe n'andi meza atatu, nayo akikijwe n'intebe zikoze mu biti.

Intebe nziza ifite ibara rijya gusa umukara, imbere harimo imifariso isa n'umweru. Hirya yaho hari akabati, iruhande rwaho hari ameza, inyuma yaho hari umwenda ujya gusa n'umukara urimo guhinguka.

Intebe iteye ahameze nk'ahari sima, ikozwe mu biti, yegereye igikuta cy'inzu gisa n'umweru, ahagana hasi hasa n'umukara, yegamiye ku nzu.

Ameza ateretseho ibyokurya harimo imigati, imboga, inyama, ndetse n'ibindi biri mu ndobo hakurya yaho hakaba hari inzu irimo isikariye umuntu ari buze kuzamukaho.

Ameza asize irangi ry'umukara, hejuru hateretseho isahani isa umweru n'igikombe gikoze mu ibumba gisa nk'isahani, mu imbere hakaba harimo icyayi gisa umuhondo, hakurya hakaba hari akabati gateretseho ibindi bikoresho.

Inzu nziza y'umuturirwa ikoze mu mabara meza harimo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi hirya hakaba hari indi isakaje amabati, hakaba imbere hari intebe zigiye zitwikiriwe n'ibara ry'umweru, hakurya hakaba hari amagambo ahanditse mu nyuguti nkuru.

Inyubakotetse iruhande hari udutanda twagenewe kuryamaho, hirya hari pisinine ifite ibara ry'icyatsi inyuma y'aho hari udutaka dutwikira intebe ziteretse.

Inzu isize irangi rijya gusa nk'idoma, iruhande rwaho hateretse intebe ebyiri ziticayeho abantu, hakaba hari amazi yogerwamo hirya hari indabo, ku mfuruka y'inzu hakaba hicaye abantu babiri, imbere yaho hari ameza atwikirije igitambaro cy'umutuku.

Inzu igeretse rimwe ifatanye n'uruzitiro rukoze mu migano, hirya hari indabo zikoze neza zifite amabara atandukanye, umutuku, icyatsi hakaba n'ikibindi giteretsemo izindi ndabo nziza.

Inyubako nini iteyemo intebe nyinshi hasi hasize amarangi kuruhande rw'ibumoso hari icyapa cy'umweru no kuruhande rw'iburyo hejuru mu rusenge hari amatara ane.

Inyubako nziza nini iri mu mbuga hariho imitaka itwikiriye intebe zihari, imbere yaho hari imitako y'intebe nziza ndetse n'indabo zigiye zitandukanye, iruhande rwaho hari imiryango ari yo ikingurwa kugirango umuntu yinjire aze muri iyi nyubako.

Inzu ifite umuryango ukinguye ukikijwe n'ibyapa birimo kwamamaza ibikorerwamo iruhande rw'ibumoso hari inka zishushanyije ebyiri zifite amabara y'umweru n'umukara, ndetse n'ibigori.

Inzu nini ziteretse mo ameza y'umweru menshi, iruhande rwaho hari intebe z'umutuku, intebe yo ku ruhande rw'iburyo iriho igipope hino yaho hari mudasobwa ndetse n'imbeba bifashisha bari kuri murandasi.

Umuryango ufunguye usize amarangi y'ubururu yanditseho mu magambo y'umweru, ijambo ngo irembo imbere yaho haparitse imodoka y'umweru, hejuru ku nzu hashushanyijeho icyapa kiriho ijambo ngo ekwiti ajenti.

Icyapa gikoze muri mpande enye, ebyiri ebyiri zingana, munsi hari ikindi gisize irangi ry'ubururu, icyo hejuru gisize irangi ry'umweru, hejuru handitseho mu magambo y'umukara ngo sonarwa rusange, hirya yaho hakaba hari urugi rukinze.

Inyubako igeretse yanditseho icyapa cya mpande enye ebyiri ebyiri zingana ziciyemo uduce dutatu kamwe gasize irangi ry'ubururu kandi gasize irangi ry'umuhondo akandi ari icyatsi, handitseho amagambo agira ngo nyarutarama.

Inzu ifite imiryango myinshi ifunze umwe ufunguye, imbere harimo intebe z'imikara iz'ubururu hirya ahari utubati dusa nkake hateretseho mudasobwa hirya handitseho ngo pasiporo.

Inyubako isize amarangi y’umuhondo, harimo nan’andi amanuka ajya gusa n’umutuku hejuru hashushanyijeho amagambo avuga ngo Sonarwa iruhande rwabo hari ibiti by’amoko atandukanye. Hepfo hari uruzitiro rusize amarangi y’umweru akoze mu twuma.

Intebe z'imikara ziticayeho abantu, imbere yaho hari ameza, hirya yaho hari ikayi iteretseho ikaramu, mu nzu hasize irangi ry'umutuku; hariho amafoto, harimo iya Kagame ndetse n'iy'umwana n'iy'umusirikare ku ruhande.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, n'ipantaro y'umukara, n'ikote ry'umukara, ikiganza cy'ibumoso gifashe ku mafaranga, amaso ye arimo kuyarebaho kandi yasetse, iruhande rwe hari icyapa gikoze mu irangi ry'umuhondo, cyanditseho bitarenze amasaha makumyabiri n'ane, hejuru hari umugabo ukoze mu bukorikori, hejuru yaho handitseho mu binyuguti binini by'umuhondo ijambo ngo karame.

Ni icyapa gishushanyije ku ibara ry'ubururu hejuru mu mfuruka y'ibumoso handitseho ijambo banki mirongo itanu hagati hari akapa gakozwe muburyo bw'ishaka ririmo kurebana.

Umukobwa wambaye ishati isa na kaki ufite ikintu mu ntoki arimo guseka yambaye amaherena imbere ye hari inzu hejuru ye hashushanyije amagambo mu ibara ryumweruvuga ngo inzozi zawe zigutegererereje murugo.

Umugore wambaye ishati y'umweru uri kumwe n'umugabo wambaye umupira wamaboko maremare, bari kureba muri mudasobwa, basetse bose, hepfo handitseho ngo, ni gute ? Umuntu ashobora kugira intego y'amafaranga, n'uko ashobora kugera ku ntego ze.

Igishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu hejuru, hari amagambo yanditse mu nyuguti binini mu ibara ry'umuhondo, ngo rya ubuzima, hepfo yaho hari amafaranga mirongo itanu ndetse n'inote ziziritse munsi yaho handitseho ngo miliyoni.

Abagabo babiri n'umugore umwe barimo guseka, umugabo afatishije ikiganza cy'ibumoso urufunguzo iruhande rwabo handitseho ngo shora makeya bari mu kuganira hepfo handitseho miliyoni mirongo itandatu.

Igishushanyo mbonera cy'inzu ifite umuryango umwe ndetse n'idirishya rimwe, hejuru handitseho ngo yigure cyangwa uyubake, mu ibara ry'umutuku ndetse hasi hari ibyatsi byinshi cyane, ku ruhande rwawo hari amagambo yanditse mu mpine.

Umukobwa ufite igikarito kizinze, wambaye umupira w'amaboko maremare n'ijosi rinigirije w'imibiri yombi; hirya handitseho ngo ''buzinesi yawe ishobora gukura'', handitseho munsi ngo ''kanda kanyenyeri karindwi gatatu karindwi, akayenyeri zeru, akanyenyeri urwego''.

Abagore bakenyeye ibitenge, bahagaze, hari n'undi wicaye, hari umuryango ukinguye, hakaba inyuma yabo ibitebo biriho indimu ndetse n'izindi mbuto, hirya yaho hari amadegede.

Umubyeyi uri gucuruza imbuto zirimo amaronji, avoka, inyanya, intoryi, imineke n'ibijumba hirya hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara uri iruhande rw'imineke ndetse n'indobo zipfundikiye izo mbuto.

Inzu igeretse kabiri hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, hirya yaho ku ruhande rw'iburyo hakaba hari umugabo n'umugore barimo kuganira, ku ruhande rwo hagati hakaba hari imodoka iparitse ifite ipine hejuru.

Isoko ry'imbuto umugore ateruye aka base karimo inyanya hasi hateretse izindi ndetse hari n'abazitaditse zirimo kugurishwa harimo urujya n'uruza rw'abantu.

Ibase imwe irimo imineke igitebo kirimo inyanya indi base irimo amageri, hakaba agakapu k'amabara y'umutuku, ndetse n'umuhondo, umufuka ukaba urimo ubunyobwa undi mufuka ukaba urimo ibishyimbo.

Imbuto z'imyembe, avoka ndetse n'amapera, iruhande hahagaze umugore n'umukobwa, barimo kubishyira mu gikapu, undi yambaye imitako mu mutwe, isize amarange y'umutuku ndetse n'umuhondo.

isoko ririmo imitako itandukanye harimo uduseke ndetse n'indabo hirya hari abantu bicaye hakurya hari icyezezi cy'izuba riri kumurika hino hari umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro isa ko irimo amabara y'umweru.

Isoko rya rusange rihuriyemo imboga n'imbuto, ibitoki hakabamo abantu bambaye imyenda itandukanye muri iryo soko hakaba harimo inyanya karoti intoryi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugabo wicaye ku ntebe wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi n'ingofero y'umukara, hirya hari guturuka umukobwa wambaye ikanzu ifite agakapu k'umukara n'ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru urimo amabara y'umukara, iruhande rwe hari umugabo ukoze mu mifuka, barimo kugenda ahasa nko mu isoko.

Isoko rigizwe n'imboga n'imbuto harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe, hakurya hari umugabo ufashe ku nyanya ndetse n'ibitunguru, hino hari inyanya, intoryi, karoti pavuro ndetse n'imiteja m'umufuka.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda, moto ziparitse mu nzira, hari isakaro rya eyateri, hakurya hari icyapa kirimo kwamamaza, inyuma yaho hari indi nyubako irimo kubakwa shyashya, imaze kugerekwa rimwe.

Isoko ry'imboga ririmo umubyeyi uhagaze wagiye guhaha, ufite amashu mu ntoki imbere ye harimo karoti iruhande rwe, hari abahungu babiri umwe wambaye ishati y'umutuku n'amabara avanze, umuhungu wambaye umupira urimo amabara y'umuhondo.

Inyubako ifite uruzitiro rukozwe mu byuma, hirya yaho hari imodoka zihaparitse, imbere yaho hari abantu ndetse n'imbere harimo umuntu ufite imashini, n'abagore babiri bahagaze iruhande rwaho, isakaje amabati.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga: imodoka, moto, amagare ndetse n'abantu; barimo kugenda muri kaburimbo, hirya hari inyubako zisakaje amabati atukura, iruhande rwawo hari ibiti; hakaba hari n'imisozi hakurya ituwemo n'abantu.

Abagore bane babiri bicaye, umwe yunamye undi ahagaze yishingikirije ku nsimburangingo, amabase ateretse iruhande rwaho, hamwe harimo imineke ahandi harimo voka hirya hari umufuka utukura, urugi rukinguye rusize amarangi y'umutuku.

Inyubako nini igeretse gatatu isize irangi ry'umutuku, umuhondo, ubururu, hashushanyijeho umugore n'umugabo bahoberanye, hepfo hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga birimo kugenda, hirya hakaba hari igiti kinini ndetse n'ipoto ku ruhande.

Icyapa cy'umuhondo cyanditseho "MTN" imbere yaho haparitse imodoka y'umukara. Mumodoka harimo gusohoka umugabo wambaye ikote ry'umukara. Iruhande rwabyo, haparitse umumotari wambaye umupira w'umuhondo, na moto ye isize irangi ry'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho MTN ufite telefone mu ntoki, iruhande rwe hahagaze undi ufite igitabo mu ntoki ku meza hateretse amakaye ndetse n'ikaramu hano harambitseho mudasobwa.

Imodoka y'umukara iparitse iruhande hahagaze abagabo babiri uw'iburyo yambaye umupira w'umuhondo n'ubururu, n'ingofero isa n'uko ibumoso hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, uri kureba muri telefone uw'iburyo afite mu ntoki arimo kureba nawe muri telefone y'uhagaze ibumoso.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kujya mu isoko rihuriyemo ibyo kurya hari intoryi, karoti, imiteja ku ruhande haruguru handitseho emutiyeni ndetse ku ruhande rwo hepfo hariho utubido tw'umuhondo dufite imipfundikizo y'umutuku.

Mudasobwa ziteretse ku meza asize irangi rya kaki mu mfuruka hari ururabo rw'amabara' y'umutuku ndetse n'icyatsi, iruhande rwabo hari udukarita tugaragara ko ari utwa MTN, hariho nimero zeru kabiri, gatandatu zeru gatandatu kabiri, buri kamwe kagiye gafite nimero zitandukanye n'iza akandi.

Umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, uhetse agakapu k'umukara, n'ipantaro y'ubururu; ufite terefone mu ntoki iri mu ibara ry'icyatsi, hashushanyijemo agatangaro, hirya hari urundi rukweto rugaragaza ko hari umuntu uhicaye, nawe wambaye ipantaro isa n'iy'uhicaye.

Akazu k'umuhondo ka emutiyeni harimo abagore babiri kuruhande rwaho hari abandi bantu hepfo hari ibara ry'umukara mu kazu mo imbere harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi ry'umutuku hegereye inzu.

Umugore wambaye umweru hejuru, hasi ari umukara yicaye ku ntebe, iruhande rwe hari ameza ateretseho amatelefone ndetse n'utumashini, hirya hari icyapa cy'umuhondo cya MTN, hirya y'aho hari mudasobwa itarimo kugaragara neza, hakaba n'umuti usukura.

Abamotari babiri baparitse mu muhanda wa kaburimbo bambaye ingofero, imbere yabo hakaba hahagaze abandi bagabo babiri barimo kureba muri telefoni bambaye ubupfukamunwa bw'umuhondo, hakurya hakaba hari icyapa cy'umweru, inyuma yaho hakaba hari urugo, insina, ibiti ndetse n'ibindi.

Umumotari utwaye moto ihetse agasanduka k'ibiryo, iruhande rwe hahagaze umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ijiri y'umuhondo, hirya ye hari umugabo wambaye ishati iruhande rwa bombi hari ibiti ndetse n'amazu abakikije.

Umukozi w'umugore wa emutiyeni, wambaye amaherena n'impeta, arimo kwakira uje amugana, yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari mudasobwa y'umukara, arimo kumusobanurira.

Umutwazi w'ikinyabiziga cya moto uparitse imbere y'umuryango, ahetse ikintu gifite ibara ry'umutuku, ndetse afite n'ibindi mu ntoki yambaye umupira w'umutuku, n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'inkweto z'umukara.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hejuru ku muryango hariho icyapa cy'umweru, iruhande rwaho haparitse imodoka isize irangi risa n'iry'iyo nzu, handitseho ijambo ngo iposita, inyuma yaho hari guturuka izindi modoka z'imikara n'abantu bari kugenda.

Abatwazi b'ibinyabiziga bya moto babiri, barimo kugenda mu muhanda bahetse abagenzi, uw'iburyo ahetse umugenzi wambaye ipantaro y'ikoboyi y'umukara n'umupira w'umweru naho uw'ibumoso ahetse undi wambaye umupira w'umweru n'inkweto z'umutuku.

Abamotari bambaye imyenda isa y'umutuku bambaye n'uturindadamutwe natwo tw'umutuku barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imyambaro yabo yanditseho yego moto.

Abagenzi batatu b'ibinyabiziga bya moto bicaye kuri moto bambaye uturinda mutwe inyuma yabo hari icyapa gisa nkaho'a kirimo kumamariza baparitse batarimo kugenda.

Umumotari urimo kugenda uhetse isanduku isize irangi ry'icyatsi hafungishijeho ingufuri handitseho imibare akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego hepfo yaho handitseho indi mibare icyenda rimwe rimwe rimwe iruhande rwawo hari ipoto y'umweru imbere ye hari ibiti by'icyatsi.

Umugabo wicaye kuri moto, wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso, ipantaro y'umukara, uhetse igikapu cy'umuhondo, moto isize irangi ry'umutuku, hirya yaho hari igikuta gisa n'umweru, arimo guseka.

Igishushanyo kiriho abakobwa batatu, umwe afite umusatsi n'undi wo mo hagati awufite uwo ku ruhande atawufite, hejuru handitseho amagambo ngo Kigali, hepfo yaho hari icyapa cya mitsingi, iruhande handitseho ngo gura amatike, hirya yaho mu mfuruka hari ijambo ryanditsemo ra na ga .

Inzu igeretse rimwe iruhande rwaho hari ibiti bihateye, hirya yaho hari mu mucanga n'umusenyi, imbere yawo hari ibyatsi biconze neza, hepfo yawo handitseho Kacyiru Kigali citi, hejuru hakaba handitseho ko ari inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi muri Kigali Rwanda.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi y'ubururu, urimo gukingura akabati akoresheje ukuboko kw'iburyo, hakurya hari urugi rusize irangi ry'umukara rufunze, inyuma ye handitse ngo inzu y'imitako igurishwa.

Inzu irimo intebe zifite imisego, hakurya hari inyongeramwuka, hino yaho hari ameza, hakurya yaho hari itara riri hejuru mu rusenge, inzu isize irangi ry'umweru.

Inyubako mu nzu mo imbere harimo ahantu hakoze nk'ameza hari mu ibara ry'umukara, hakurya yaho hari utubati dufunze, idirishya naryo rifunze, harimo kugaragaza yuko hakeneye kugurishwa miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amanyarwanda.

Igipangu gifite umuryango munini ugizwe n'inzugi ebyiri bifatiye k'uruzitiro rw'inzu narwo rukaba rufatiye ku nkingi ebyiri imwe iy'iburyo ndetse n'iy'ibumoso no hejuru hakaba hari inkingi isa nk' itwikiriye umuryango.

Inzu yubatse neza isakaje amabati atukuye, ifite urugo rwubatse mu matafari ahiye urugi rw'umukara, handitseho ko ari inzu iri kugurishwa muri Kigali miliyoni mirongo irindwi n'eshanu, Kabeza Kigali.

Inyubako nini nziza ifite amakara y'umweru ifite na pisine y'ubururu igaragaza yuko harimo imitako ndetse ikaba inagurishwa.

Inzu ifite umuryango ufunguye isize amarangi y'umweru, hejuru harimo itara rikoze mu ikamba, hepfo harimo akabati hejuru handitseho yuko ikodeshwa, ikaba ifite ibyumba bikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu muri Kigali i Remera.

Inzu irimo intebe nziza cyane, harimo umugabo ndetse n'umugore bahagaze barimo kuganira, umwe yambaye umweru ndetse n'ikoboyi, iruhande rwabo hakaba hari mudasobwa nini cyane idafunguye, hakurya hakaba hari indabo zihateretse.

Umuhanda w'ibitaka imbere yaho hari inyubako nziza isize amarange y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, hirya hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, hejuru handitseho ko ari inzu igurishwa amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri.

Inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru, hakaba hariho urugi rurerure cyane; imbere yaho hateye indabo, hejuru mu idari hari ibintu bikoze mu rwego, hakaba handitseho ngo: "Ngwino urebe ku mafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitanu ku munsi".

Inzu nziza isize irangi ry'umweru ifite umuryango ukinguye, usize irange ry'ubururu ndetse n'amadirishya, hejuru handitse ko ifite ibyumba bitatu, akaba ari iyo gukodeshwa Kimironko ku mafaranga ibihumbi magana ane.

Inyubako nziza ikinguye imiryango ibiri n'amadirishya atatu, hejuru hakaba hari amatara abiri arimo kwaka, hasi hakaba hakoze neza n'amabuye, hejuru handitseho ngo iyi nzu igurishwa miliyoni ijana, iherereye i Kinyinya mu Birembo ifite ibyumba bine, tuwarete eshatu.

Inyubako isize irangi ry'umweru ku ruhande ikaba ifite idirishya, hejuru isakaje amabati y'umutuku, ku ruhande hakaba hari akabati hakaba handitseho ko iherereye i Remera, akaba ari iyo gukodeshwa, irimo icyumba kimwe cyo kuraramo, icyumba kimwe cyo kumeseramo, mo imbere hakaba harimo igikoni giteye imbere.

Inyubako, hejuru hari itara, ku ruhande rw'iburyo hari inzugi, no ku ruhande rw'ibumoso hari umuryango uri kugaragaza inzugi hirya, ku ruhande rwo hagati, hari imfashanyerekana mashusho.

Inzu nziza igeretse kabiri isa n'umweru irimo imiryango n'amadirishya, iruhande hakaba hari umutako mwiza n'indabo, harimo uruzitiro rufasha abantu gutambuka.

Ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, hahagaze umukobwa ufite imisatsi yirabura, wambaye ishati irimo amabara ndetse n'ipantaro y'ubururu, afatiye aho ngaho y'ibyo binyobwa biri.

Urujya n'uruza rw'abantu bisa nk'aho barimo kurema isoko, harimo umuhungu wambaye umupira utukura n'ipantaro y'ubururu iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu undi amwegereye yambaye imyenda y'imikara.

Akabati gaciyemo ibihande bitanu, hari ibyo kurya hasi, hari amata iruhande, hari umugabo wambaye ikote, mu nzu isakaje amabati asize irangi ry'umweru ku ruhande hari itara ririmo kumurikira abari muri iyo nzu.

Ahatangirwa ibiryo bigurishwa hari umurongo w'abantu benshi baje kugura ibiryo, hari umugabo wambaye umwenda w'umweru n'ingofero y'umutuku, iruhande rwe hari umumama wambaye umwenda w'umuhondo barimo kwakirwa n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku n'itaburiya y'umutuku n'umupira w'umweru.

Inzu y'umurage irimo indabo z'amoko yose, ateretse mu bintu bimeze nk'indobo, harimo utubati, hakurya hari ikintu cy'umutuku, mu nzu harimo amatara arimo kumurika, ku buryo umuntu yinjiyemo atabasha kubura uko abona ibyo byose bihakorerwa.

Ahantu hasa nk'ahacururizwa imyenda y'abagore hari inzu ya etaje igeretse kabiri, imbere yaho hari umugabo ufashe ku byuma bihari hejuru yawo hari ibyapa byanditseho ngo isaro ndetse iruhande rwaho hari umugabo wifashe ku itama wambaye ishati ijya gusa n'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara uhagaze mu bicuruzwa by'ibinyobwa afashe kuri kimwe mu bicuruzwa bitondetse agace kamwe kari hejuru kandi kari hagati kandi kari hasi.

Imyambaro y'abana ifite amabara yiganjemo umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku, ifatiye ku gikuta cy'umweru, hasi hari indi izinze, imeze nk'iteretse ku kabati, hari intebe iriho ikoti ry'umukara.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'imitako mu ijosi, ipantaro y'umukara, yapfunyikiye umuntu arimo kwakira, amaboko yari arimo kumuhereza, hejuru ye hari icyapa kiri mu irange ry'icyatsi handitseho ngo "imyaka icumi namwe namwe, murakoze."

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko baje guhaha umugabo ugaragara hino yambaye umupira w'umutuku ndetse n'amabara y'umweru, hirya hari undi wambaye ingofero hejuru hari udukapu tw'amabara yose hejuru mwidare hasumweru hacanye itara.

Icyapa gishushanyije mu ibara ry'umweru kimeze nk'uruziga, hagati muri cyo hari ikindi gishushanyije mu ibara ry'ubururu, gikoze muri mpande enye, ebyiri ebyiri zingana, handitsemo RSSB ikigo gishinzwe umutekano, hepfo handitse ngo: "Ejo heza ubwiteganyirize bw'izabukuru mu nshingano za RSSB."

Intoki ebyiri urundi rwa gatatu ruririmo guhera zifashe ku ikarita y'ubwisungane mu kwivuza isa n'umuhondo handitseho repubulika y'u Rwanda akarere ka Kicukiro.

Umugabo w'imibiri yombi yiganjemo inzobe wambaye ishati y'umweru inyuma ku mutwe we hashushanyije amagambo manini ngo RSSB, iruhande rwe hari abanyamakuru bafata amaterefone barimo kumubaza bayamutunze ku munwa.

Ibiganza bitatu bimanitse hejuru, amakarita y'ubwisungane mu kwivuza, agiye ariho amafoto, uwo hagati umutwe we ugaragara, yambaye ingofero itukura, hejuru handitseho ngo ubwisungane mu kwivuza, mituweli.

Urujya n'uruza rw'abagabo n'abagore n'abana bahagaze, imbere yaho hari abagabo bane bahagaze ku mbona bose, bafite indangururamajwi, bambaye imyambaro y'imyeru hejuru n'ingofero, hakurya yaho hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu agira ati " Nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye."

Abantu bicaye, abandi bahagaze, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, abicaye bafite amakaye barimo kwandikiramo, abahagaze barimo kureba ibyo abicaye barimo kwandika.

Abagabo babiri, uw'iburyo wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara n'undi uri ibumoso wambaye ikote risa umuhondo, imbere hari ishati y'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, bafite icyapa, bahagaze imbere y'icyapa kiri kwamamaza ikigo cya Ara esesibi.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara hasi ndetse no hejuru, isaha kuboko kw'ibumoso ufashe ku kintu cy'icyuma arimo guhahiramo, ari mu isoko, hirya hari undi urimo gufotora; iruhande rwaho hashushanyije icupa rinini riri mu ibara ry'icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda y'imikara, ipantaro y'umukara ndetse n'ikote, uhagaze imbere y'aho bakirira abakiriya, iruhande rwe hari umugabo urimo kumwakira wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru, arimo gufata ibyo yari amusabye.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kake, hirya ye hari umugabo ufite umwana urimo kumutwara mu kamodoka gato, hirya ye hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, umukara, umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ahacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, inzu hirya umuryango ukinguye, hino ku ruhande rw'iburyo hahagaze umusore wambaye umupira w'amakara, n'ipantaro y'ikoboyi n'inkweto z'umweru, arimo kureba umuntu uri kumwakira.